Agoroteke, agoroteke akaba ari kampani ikora ibijyanye n'imiti yaba ari ikoreshwa mu buhinzi n'ubworozi , icuruza inyongeramusaruro ahenshi wayibona mu gihugu kuri ino nimero igaragara, kuri ino nimero, zeru karindwi umunani umunani itanu rimwe, itatu rimwe mirongo ine na karindwi.

Nyuma y'aho ubuhinzi n'ubworozi byagiye bitera imbere mu gihugu, hagiye habaho no gutera imbere kw'ibijyanye n'imikoreshereze y'imiti n'inyongeramusaruro. Imiti yo gutera amatungo kugira ngo atarwara, ndetse n'inyongeramusaruro kugira ngo hongerwe umusaruro ukomoka ku buhinzi.

Nyuma yo gutera ibigori iyo bimaze kwigira hejuru habaho igikorwa cyo kubisukira, kubibagara ndetse no kugikuraho ibibabi bimwe na bimwe kugirango ibigori bibashe gukura bizamuke bimeze neza, kugira ngo bityo bikomeze byongere umusaruro.

Ibigori ni kimwe mu musaruro igihugu gikunze kuba gifite. Aho cyagiye gishyiraho gahunda y'ubwanikiro bw'ibigori. Aho byanikwa byamara kwanikwa bakabihatunganyiriza, bakabijyana mu ruganda kubitunganya, bikavamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye.

Igihugu kigitangira gushyira imbaraga mu musaruro w'ibigori, iyi ni imwe muri sisiteme abaturage bakoreshaga bandika ibigori hasi ariko nyuma haza kugaragarako kubyanika hasi biteza ibibazo runaka, haza gushyirwaho sisitemu yo gufata ibigori bakabishyira ahantu mu bwanikiro ariko bakabyandika bimanitse.

Nyuma yaho abaturage baba bahinze imbuto zigiye zitandukanye zikera, aho bazizana mu masoko bakazana iyi mineke ndetse n'izindi mbuto zitandukanye kugira ngo abatabashije kubyeza na bo babigure, babaha amafaranga bityo na bo biteze imbere.

Indimu ni umwe mu masaruro uri mu bwoko bw'imbuto uboneka mu gihugu, aho zifite akamaro kenshi, aho zikoreshwa ahantu henshi hagiye hatandukanye kandi zikaba zifite intungamubiri nyinshi cyane.

Umusaruro w'inyanya umeze neza, aho inyanya iyo waziteye umuti ukasasira, inyanya ziza zimeze neza zigahisha bityo zigafasha mu guteza abaturage imbere.

Imyumbati ni kimwe mu gihingwa gikunda guhingwa mu gihugu cyacu, cyane cyane mu gice cy'Amajyepfo aho bita mu Mayaga. Hakaba imyumbati ikunda guhingwa muri kiriya gice, kandi ikaba ifasha abaturage mu bukungu bwabo.

Ingurube ni imwe mu matungo magufi agaragara mu gihugu cyacu, aho u Rwanda rwagiye rushyiramo imbaraga mu koroza abaturage ingurube kandi bikagaragara ko zitanga umusaruro ku baturage.

Ikiyoni ni imwe mu bwoko bw'inyoni iboneka mu gihugu, ikaba ifite ibara ry'umukara n'umweru, ikaba ikunda kuba ahantu babagira amatungo.

Inyoni ni imwe mu nyamaswa zigize icyo bita ubwiza nyaburanga bw'igihugu. Aho usanga ziba ziri cyane cyane mu ma parike, aho ba mukerarugendo baza kuzireba, bakazisura zikinjiza amadovize.